Imiti yica udukoko, iba iri mu macupa no mu budomoro kugira ibungabungwe neza, ibikwe neza ku buryo itagira ibyo yica.

Umuti wica ubusiba bawuwika mw'icupa, bakaripfundikira neza kugira ngo hatagira urihungabanya, ugasanga ryangirije ibintu bitari bigenewe, bitari bigenewe.

Ifumbire mvaruganda kuri ubu birakenewe cyane, abantu benshi basigaye bahinga bagashyiramo imvaruganda.

Imiti yica udukoko ku myaka icuruzwa mu mabotike, ikunda kubikwa mu macupa, kandi bayapfundikira neza kugira ngo itagwa ku bintu ikabyangiza.

Isambaza ni ibiryo bike bifite intungamubiri nyinshi cyane, bifasha abana cyane cyane gukura neza bitegurirwa ku masahane n'amasafuriya.

Uburobyi ni umwuga mwiza cyane, utunze abantu benshi, cyane cyane abaturiye hafi y'ibiyaga, ndetse n'iriya migezi idakama, mu burobyi rero niho bakura amafi, amasambaza, n'ibindi bitandukanye bikomoka mu mazi.

Amafi aba mu mazi, ariko iyo bayarobye, aragurwa ku buryo buhenze, isahane itegurirwaho amafi n'ameza.

Amafi ni ikiribwa cyiza cyane, ifi yokeje yo rero iba ari agahebuzo, iraryoha cyane kandi iba ifite n'intungamubiri nyinshi zitandukanye.

Amafi ni udusimba tuba mu mazi ,dukundwa kuribwa n'abantu benshi ,tugira n'intungamubiri nyinshi cyane cyane zituma abana bakura, neza no mu bwenge no mu gihagararo.

Ubwato bukunda gukoreshwa n'abarobyi. Baba bafite n'inshundura ziroba amafi，hanyuma bakagenda baterera mu bwato.

Amafi ni ikiribwa kiza cyane. Ndetse iyo umwana akunda kurya amafi，agira ubwenge bwinshi mu ishuri. Amafi ari mu byubaka umubiri.

Abantu baturiye hafi y'ibiyaga bararoba, mu biyaga habamo ibirwa ndetse hari ibirwa biba bituwemo n'abantu, ibindi birimo ishyamba gusa.

Ibishanga na byo bidufatiye runini cyane. Abahegereye barobamo amafi， n'inunda， ndetse ibyatsi byaho bikurura imvura.

Ibiyaga n'inzuzi bidufasha mu burobyi. Abaturiye ibiyaga n'inzuzi baroba amafi, isambaza, indagara, injanga, bakabizana tukabigura mu masoko.

Amafi ni ikiribwa cyiza cyane . Amafi afash yoa abana by'mwihariko mu mikurire yu'bwonko. Amafi arakenewe mu buzima bwacu.

kurya neza bituma umubiri wacu ukomera kandi ukubakwa neza. Hari nko kurya inyama, amafi, igitoki, urusenda ,ibyo byose bifashaga umubiri wacu gukomera no gutekereza neza mu bwonko.

Amateke ni igihingwa ngandurarugo cyiza cyane, gikunda guhingwa mu murima ndetse hakameramo n'ibindi byatsi byinshi cyane bitandukanye.

Imigano n'imibonobono ni ibiti byifashishwa mu bintu byinshi, barabyubakisha, babikuramo n'imishingiriro. Ibumba na ryo rivamo ibintu byinshi bitandukanye.

Igitoki ni igihingwa cyiza cyane kuko gikunda kuribwa n'abantu benshi cyane, iyo kimaze kwana bagitega inkingi kugira ngo kitagwa.

Avoka ni urubuto rwiza cyane kandi rukunzwe n'abantu benshi, iribwa mu biryo kandi igira n'intungamubiri nyinshi cyane.

Ibibonobono na byo bigira akamaro kanini cyane. Abaganga ba kinyarwanda babivanga n'imiti bikabyara umuti mwiza cyane, ndetse bivamo n'imishingiriro.

Urugo ruri mu cyaro ruba ruhinzeho ibitoki ndetse n'ibindi nk'amajaride y'imboga, ibishyimbo hafi aho, ndetse ruzitijwe n'uruzitiro rw'ibyatsi.

Hari n'ubutaka budakunda kwera imyaka, buba bumeze nk'ubutayu, ariko ubwo butaka igihe bukorwamo ibindi bintu nk'inkarakara n'ibindi.

Inturusu turazicana, zikurura imvura ,zituma tubona n'umwuka mwiza wo guhumeka. Ibyatsi na byo bidufasha mu kurwanya isuri.

Ibigori iyo bikiri mu murima ushobora kujyamo ugaca imisigati cyangwa se ugasarura ikigori kibisi cyo kotsa, kandi mu murima w'ibigori haba harimo ibyatsi byinshi kandi bitandukanye.

Ubuhinzi bw'ibisheke na bwo ni ubuhinzi bwiza cyane, kuko ibisheke bikorwamo isukari. Isukari ikagirira umubiri akamaro kenshi cyane.

Ibitoki n'ibihingwa ngandura rugo, bikundwa guhingwa ahantu henshi kandi fifasha imiryango myinshi, bihingwa mu isambu, ushobora guhingamo n'ibigori, aho wahinze ibitoki.

Aho bamaze gusarura ibigori， haba hari ho ibigorigori. Inka zirishamo， intama zikarishamo，ihene zirishamo nazo.

Ibisugisugi ni ibyatsi bikora uruzitiro neza cyane，ndetse iyo bimaze gukura， bishobora gutanga n'imishingiriro ，cyangwa se bakabizitiza uruzitiro.

Ikiyaga kiba kirimo amazi arimo amafi, n'amasambaza, inunda, amahera n'utundi dusimba tuba mu mazi, hafi yacyo haba hariho umucaca urimo n'ibiti bitandukanye.

Mu gisambu haba ibyatsi byinshi bitandukanye habamo ibyatsi bitoya, hakabamo n'ibyatsi birebire umuntu ashobora gutema akabonamo imishingiriro yo gushingiriza ibishyimbo.

Mu murima w'umuntu ahingamo ibintu byinshi: Ashobora guhingamo ibishyimbo, ibirayi, amateke, byose byose.

Uduperi natwo ni imbuto abana barazikunda cyane, zikunda kwimeza ahantu hari ibihuru, iyo abana bazibonye barazisoroma, bakirira utubuto tuba turimo.

Karoti ni imboga nziza cyane, ziri mubirinda umubiri wacu indwara, iyo umuntu akunda guhekenya karoti, ntabwo yarwara amaso uko yiboneye.

Ibinyomoro ni imbuto nziza cyane zongera amaraso mu mubiri, imyembe na yo ni imbuto nziza cyane, bituma ibiryo bikora igogorwa neza.

Imbuto z'amarongi ni imbuto nziza cyane zikunzwe n'abantu benshi muri iki gihe na za pome nazo zirakunzwe kandi ku masoko ziba zirimo.

Ibigori byumye bigira umumaro munini cyane. Hari uko bashobora kubitekamo amahundo, cyangwa bakabitekamo impungure. Cyangwa impungure bakazivanga n'amasaka n'ingano bakazibeteshamo igikoma, abantu bakanywa, bakaryoherwa cyane.

Ishyamba ry'iriterano riba rigizwe n'ikeshu, imigano, zagereveriya n'ibindi. Akamaro karyo rero rikururaga imvura.

Igihaza ni ikiribwa cyiza cyane, ndetse abagore batwite bakunda kurya ibihaza. Igihaza, kigira intungamubiri nyinshi cyane.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu. Kirera bakagisoroma bakakigurisha amafaranga menshi cyane. Ikawa ivagamo imiti itandukanye.

Iyo umuntu yahinze ibirayi cyangwa ibishyimbo, ateraga umuti kugira ngo arwanye indwara zabyataka zigatuma bitera neza.

Kuri ubu ibigori bishyirwaho ifumbire, iyo bimaze kwegera hejuru babishyiramo ifumbire yitwa "iri", kugira bishishe, ndetse n'abasirikare n'abaturage bamaze gusobanukirwa n'igikorwa cyo gushyira ifumbire ku bigori.

Igitoki ni igihingwa cyiza cyane， hari ibitoki bivamo imineke， ibindi bakabirya ari ibitoki，babitetse mu nkono.

Kokombure ni ikiribwa cyiza cyane gikunda kuribwa n'abagore kuko gikiza mu nda, ibidodoke nabyo byoroshaya mu nda bivamo imboga nziza cyane.

Imyumbati ni ibihingwa ngandurarugo ikunda guhingwa ahantu henshi hatandukanye kandi bifashaga ababyeyi mu ngo kugaburira abana babo.

Ibishyimbo bibisi ni nibyo batonora bikavamo intonore, zigashirwa ku birarayi, abantu bakazirya banezerewe. Ibishyimbo ni ingenzi mu buzima bw'umuryango.

Amashu ni imboga zihingwa mu murima, zirera zigatanga umusaruro mwiza zigurishwa no mu isoko, inkwavu zishobora kurya biriya bishishwa by'inyuma by'amashu, ndetse no mu gisambu hamera n'ibindi byatsi byinshi ariko ntabwo byangiriza amashu.

Mu isoko habamo ubwoko bw'ibiribwa butandukanye, habamo ibitoki hakabamo ibirayi, hakabamo ibishyimbo hakabamo imyumbati.

Mu iduka haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. nk'akawunga, imiceri y'amoko menshi, niho tugurira ibintu byose byo kurya,

Amatunda y'amarozi aba meza cyane. Iyo abana bayariye bibafasha mu mikurire myiza. Aya matunda yarabuze, arahenda.

Imineke iraryoha cyane, iyo bari kuyicuruza bayishyira ku nkoko, ndetse bakayitembereza iri no mu ma base.

Igihaza ni ikiribwa cyiza cyane, gikundwa n'abantu benshi kivura ndetse no mu nda kandi ntabwo kiba gihenze cyane, gikunda kuboneka.

Ibitoki ni ibiribwa byiza cyane bikundwa n'abantu benshi, kandi bikunda kwera ahantu henshi hatandukanye.

Indimu ni urubuto rwiza cyane rukunda gukoreshwa n'abantu benshi batandukanye, ariko rufitiye umubiri akamaro kanini cyane. Nk'iyo wariye ibiryo ukumva uguwe nabi biragutumbishije urya indimu ugahita wumva uguwe neza mu nda.

Imyumbati ni kimwe mu biribwa bitera imbaraga. Tuyijyana ku isoko tukabona amafaranga tukiteza imbere, abana bakiga amashuri neza.

Pvuro na zo ziri mu bwoko bw'imboga, bakunda kuzikoresha iyo bari guteka, iyo bagiye guteka isombe, habaho pavuro z'icyatsi kibisi, hakabaho na pavuro z'umutuku.

Ibishyimbo by'intonore biraryoha cyane. Iyo babisaruye bitari ibyuma, biba ari bibisi. Barabiteka rero bakabigerekaho ibirayi, bigahindura isura, bikaryoha cyane.

Iterambere ryageze ku bantu benshi batandukanye n'abagore bari mu murima baba bafite amatelefone. Iyo bari kubagara cyangwa bari guhinga baba bafite amatelefoni.

Imishwi y'inkoko ikiriri mitoya, igomba kwitabwaho cyane. Igasasirwa, ikagaburirwa ku gihe, kandi bakayicanira imbabura hafi, kugira idakonja.

Amatunda turayarya abamo n'intungamubiri zigatuma tugira ubuzima bwiza cyane.

Imyumbati ni ikiribwa gikunzwe cyane kandi ckera cyane. Imyumbati bayisarurira mu dutebo, barangiza bakayizana, bakayitonora bakayiteka.

Ibishyimbo bigufi ni igihingwa ngandurarugo. Abantu benshi bakunda kubihinga kubera yuko biryoha, kandi bituma abana batarwara bwaki.

Ubucuruzi bw'iibiheke bukundwa gukorwa n'abana bakiri batoya. Cyane cyane nko mu gihe cy'ibiruhuko. Benshi baza bakubishaka, bakaza bakabicuruza. Bikundwa n'abantu benshi. Kandi ibisheke bifite umumaro, bigira intungamubiri, byongera n'isukari mu mubiri.

Amahene ni amatungo magufiya yororerwa mu rugo, atanga ifumbire agatanga n'amafaranga, iyo umuntu afite ikibazo mu rugo afite itungo ararigurisha akagikemura.

Ibigori iyo bigiheka hari igihe bifatwa n'udusimba. Umuntu akabitera umuti. Ibigori kandi umuntu ashobora kubyihishamo, iyo ari afite icyo yihisha.

Ibinyampeke bikunda gutanga umusaruro mwinshi cyane, bikunda kwera ahantu henshi hatandukanye kandi bikunda gufasha cyane cyane mu rugo.

Ubuhinzi bw'insenda na bwo muri iki gihe bugezweho cyane, urusenda abantu benshi bararukunda ngo ruryoshya ibiryo kandi rugatera apeti.

Ibibiringanya na zo ni imboga. Zigiye kwitwara n'intoryi ariko zo aba ari nini cyane. Ziryoshya isupu kandi zikunda kuba ahantu henshi hatandukanye.

Ifu y'amamera ni ifu ikunda gushigishwamo umusururu. Iyo ufite ifu y'amamera urayiteka ugashakiraho incungo ugashyiramo bikaryoha cyane.

Ibireti ni igihingwa ngengabukungu cyera uturabo tw'umweru, baragisoroma bakacyanika, bakazakigurisha ku mafaranga menshi cyane.

Ibishyimbo by'intonore nabyo bigiraga akamaro kanini cyane. Umubyeyi wabashije kubironka akabitekera abana be, aba anezerewe cyane.

Intoryi ni igihingwa cyiza cyane. Ziyungurura amaraso, kandi ni imboga zitapfa kubura ahantu aho ariho hose. Zirakenerwa cyane mu buzima bwa muntu.

Ibijumba ni ibihingwa nganurarugo ,bikunda gukoreshwa mu miryango myinshi, abana barabikunda iyo ubitetse ugateka n'imboga ku ruhande ,usanga ari ibintu byiza cyane.

Ubuhinzi butuma abantu babona ibyo kurya. Isuka ifasha abantu mu buhinzi, ibigori turabirya, tukabijyana no ku isoko tukabona amafaranga.

Iyo umuntu ashaka gutera urubuto， kugira ngo rugire ubuzima bwiza rukiri ruto， barushyira mu gashashi，bagashyiramo itaka， hanyuma bakarushyira muri pepiniyeri， bakagenda bacuciraho amazi， bakazarugemura rukuze.

Isoko ry'ibirayi ribamo ibirayi by'ubwoko bwinshi butandukanye. Hari abazana amagare baje guhaha, abandi bakazana imifuka bakikorera ku mutwe, mbese ni ho bahahira ibirayi by'ubwoko bashaka.

Kubagara imyaka mu murima, cyangwa se kufira byakorwaga n'abagore gusa, kuri ubu n' abagabo babihagurukiye bafatanya n'abagore babo, bagakorera urugo rwabo bose.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane, bakunda kugikoresha mu rugo. Ushobora guteka amahundo cyangwa ugateka impungure, cyangwa ukakibeteshamo igikoma uvanze n'ibindi binyampeke.

Mu murima w'umuntu haba harimo ibihingwa byinshi bitandukanye harimo ibigori , amasombe ,ibishimbo ndetse akaba yateramo n'ibindi biterwa n'umwanya uhari.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu. Abantu baragisoroma bakakijyana aho bakigurisha bakabaha amafaranga. Baba bari gukoresha udutebo twaboshywe mu migano.

Mu isoko niho abantu benshi bazana ibihingwa byabo， cyane cyane ibitoki，bakahahurira n'abaguzi baje kubigura. Hari abazana amagare，abandi bakaza kubyikorera ku mitwe，ubuzima bukagenda neza cyane.

karoti ni imboga ziri mu birinda umubiri wacu indwara. Amagi yubaka umubiri. Ubworozi butuma tubona amafaranga, abana bakiga amashuri ndetse n'imiryango myinshi ikabaho neza.

Ibigori iyo bikiri bitoya biba bishimishije cyane ,aba ari natire nziza cyane . Ibigori iyo bitewe ku murongo , bitanga umusaruro mwiza cyane.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, gikunda guhingwa ahantu henshi kandi kiratabara cyane, barakigurisha kigatanga amafaranga yo gukemura ibibazo, byo mu muryango cyangwa bakakinywamo igikoma, bavanze ni ibigori, ni izindi mpeke zitandukanye.

Ibigori bya Mayizori ni igihingwa nacyo cyera cyane ,kivamo ifu y'umutsima, ifu y'igikoma n'ibindi, ushobora no kubiteka ari byonyine impungure.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane. Hari ibishyimbo by'amoko atandukanye, hari ibitanga imiteraja, ibindi bakabisarura ari uko byeze bikavamo intonore cyangwa se ibyumye.

Ibigori byumye na byo ni ingenzi cyane. Iyo babisaruye, babihagura biriho amababi, bakabizana bakabihunika. Byamara guta amazi, bakabipfundika, bakabimanika bikuma, bikazavamo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye.

Ibishyimbo bikunda guhingwa, bigashingirirwari kandi bigirira umuryango akamaro kanini cyane, biri mu bihingwa ngandurarugo, ababyeyi benshi babyifashisha bagaburira abana intungamubiri.

Ibigori iyo bimaze gusarurwa，birapfundikwa， bikanikwa hejuru ku biti， bakabireka bikuma， bikamaraho nk'ibyumweru bitatu cyangwa ukwezi.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni bwiza cyane, butanga umusaruro. Iyo bwakozwe neza ku murongo bakabyitaho, bakabwuhira bagashyiramo n'ifumbire usanga umusaruro ari mwiza cyane.

Ibinyamisogwe ni ibihingwa byiza cyane, bifasha abantu cyane cyane nk'abamama, iyo bari guteka mu gikoni birabafasha cyane, nk'ibishyimbo, amashaza, za soya, byose birifashishwa mu rugo.

Inzuzi barazitera zikabyara igihaza. Iyo igihaza kimaze gufata gitera ibihaza bakabirya, bakabijyana no mu masoko, ubuzima bukagenda neza.

Amashaza ni ikiribwa gikunze cyane kuboneka mu masoko, gikundwa n'abantu benshi, kandi gikunda kwera ahantu henshi cyane.

Amasaka ni ibinyampeke byiza cyane. Abantu babiseshamo igikoma. Bakabivanga n'ibigori n'ingano na soya. Abana bakanywa banezerewe igikoma cy'imvange kiryoshye cyane.

Soya ni igihingwa cyiza cyane. Abantu bakunda kukivanga mu gikoma bafatanyije n'ibindi binyampeke, maze abana bakanywa igikoma cy'imvange. Igikoma cy'imvange kiraryoha cyane.

Amasaka cyangwa amashaza, iyo atose ukayabika igihe kinini nk'iminsi ibiri, itatu, aratangira akazana imizi akamera.

Ibinyampeke bidufitiye akamaro kenshi cyane, iyo bibaye byinshi abaturage bapakiza amamodoka, bakabijyana mu masoko ndetse no hanze y'igihugu.

Ibigori byumye biraryoha cyane. Hari ukuntu bateka amahundo ku bishyimbo bigashya byiyatuye,l biryoshye cyane. Hari n'uko bashobora kubihungura bakabibeteshamo igikoma.

Ibishyimbo iyo bamaze kubisarura barabihuraga, bamara kubihura bakabigosora, bamara kubigosora bakabyanika bikuma bakabigurisha, cyangwa se bakabyifashisha mu miryango babirya.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, n'ibinyampeke bikundwa n'abantu benshi, bakunda kubikoramo igikoma cyangwa se umutsima, bakabivanga n'ibigori, ingano, na soya n'uburo n'ibindi.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, iyo ari mabisi amahundo yayo barayarya yamara kuma, bakayavunga bakayavanga n'ibigori n'ingano n'uburo, bakayabetishamo igikoma.

Amashaza ni ikiribwa cyiza cyane, iyo yumye aratekwa akaribwa, mu mwanya w'ibishyimbo, amashaza araryoha cyane kandi afite n'intungamubiri nyinshi.

Ibishyimbo ni ikiribwa cyiza cyane, gikundwa n'abantu benshi kandi gikunda gufasha mu miryango myinshi cyane, igihingwa ngandura rugo kandi gihingwa ahantu henshi hatandukanye.

Ibishyimbo iyo bimaze kuma barabisarura bakabihura. Ibishyimbo kandi bihingwa mu gisambu, bashobora guhingamo n'intoki.

Soya ni igihingwa kiza cyane， nacyo gikunda gukoreshwa mu rugo， cyane cyane nko ku gikoma， bakivanga n'ibindi， hanyuma bagakora igikoma kiza cyane

Ibinyampeke iyo bimaze kwera barabisarura, bakabihura, bakabyanika, bakabishira mu mifuka. Iyo ari byinshi, babijyana no mu masoko, ariko bagasagura n'ibyo bazakoresha mu ngo zabo.

Ibigori n'ibihingwa byiza cyane babirya ari bibisi, n'iyo byumye babiryamo impungure, cyangwa bakabibetishamo igikoma bavanze n'ingano amasaka naza soya.

Ibinyamisogwe bitandukanye bigira umumaro munini cyane, by'umwihariko mu muryango urimo abana. Amashaza, ibishyimbo, za soya, na naza feri, byose bituma ababyeyi babona uko baha intungamubiri zinyuranye abana babo.

Kuri ubu, inka zisigaye ziraterwa inshinge ndetse no kuzitera intanga, kugira ngo zime zibyare, ibyo bikorwa n'abaveterineri ba byigiye.

Inkoko ni ubworozi bwiza cyane. Bwororerwa mu rugo， mu kiraro， bakagenda barabugurira， ibiryo byazo byo kurya.

Intama ni itungo rigufi ryororerwa mu rugo, abaveterineri na bo bararivura iyo ryarwaye, intama irya ibyatsi kandi itanga n'ifumbire.

Inkwavu ni amatungo magufi yororerwa mu rugo, akunda kuba mu kiraro, arya ibyasi bya Baraza n'udusanduruma.

Ubworozi bwa kijyambere bukorerwa mu kiraro, bakajya bajya gushaka ubwatsi bakazizanira zikarira mu biraro. Ubwo bworozi rero butanga umukamo, bugatanga n'ifumbire.

Ihene ni itungo ryo mu rugo. Itanga ifumbire. Amashunushunu yayo avura abana bwaki. Ihene kandi yagurishwa kugira ngo umuntu yikenure mu bibazo byo mu rugo.

Ubworozi bw'ingurube bukorerwa mu kiraro. Ingurube ziraribwa, zikagurishwa, zigatanga n'amafaranga ndetse n'ifumbire

Ubuvuzi bw'amatungo bukorwa n'Abaveterineri babyigiye. Hari uburyo bazitera inshinge bazivura, cyangwa se bakazitera inshinge z'intanga.

Abacuruzi b'inyama bazicuruza zimanitse. Iyo umuguzi aje kugura，ahitamo aho bamukatira. Niba ari itako ashaka bararimukatira，niba ari igihanga ashaka na cyo bakakimuha.

Inkwavu ni amatungo magufi yo mu rugo. Akunda kwirira ibyatsi ,baraza ndetse atanga n'inyama.

Abaveterineri baba bambaye imyambaro yabugenewe, amataburiya y'umweru, ingofero n'udupfukamunwa, baza ku ibagiro bagapima ibyo bagiye kubaga, niba byujuje ubuziranenge.

Inyama ni ikiribwa cyiza cyane kiri mu biribwa byubaka umubiri. Nubwo zihenda ariko ababyeyi barasabwa kuzigura kugira ngo bazigaburire abana babo.

Ubworozi bw'inkoko n'ubworozi bwiza cyane, bukunda kororwa mu ngo zitandukanye butanga amagi abana bakayarya bakirinda bwaki.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwiza cyane. iyo umuntu ashaka kubworora ahera ku mishwi, akayorora igakura hanyuma yamara gukura akaba yayigurisha akabona amafaranga, cyangwa se akayireka igatera andi magi, kugira ngo iturage iyindi mishwi.

Inkoko ni itungo rigufi ryo mu rugo. Rikunda kwririra uduhungure twamenetse hasi, itera amagi, kandi igaturagamo imishwi.

Imiti ivura amatungo na yo iracuruzwa mu maduka, haba harimo imiti itandukanye, hari imiti ivura ihene, iyindi ikavura inka, intama, ingurube n'ibindi.

Ubworozi bwa kijyambere bukorerwa mu biraro. Baba barubatse bakabisakara, ariko ntibabihome ngo bazitire cyane, kugira ngo amatungo atabura umwuka wo guhumeka.

Ubworozi bwa kijyambere bukorerwa mu biraro. Inka na zo zororerwa mu biraro. Inka ni itungo ryiza cyane ritanga umukamo n'ifumbire. Ndetse rikagurishwa n'amafaranga.

Ingagi ni inyamaswa iba mu ishyamba kandi ikurura ba mukerarugendo, bigatuma bazana amadovize hano mu gihugu cyacu isa n'umuntu.

Urukwavu rw'urunyakigunda na rwo rugira inyama nziza cyane. Abahigi iyo barubonye bararuhiga, bakaruzanira abana ba bo, ukaba umuhigo.

Ibiti bikururara imvura biduha n'umwuka mwiza wo guhumeka, inyoni ziba mu biti, inyoni kandi ni udusimba Imana yaremye dukunda kwibera mu ishyamba.

Inyoni ni ibiguruka ntibihinga ariko bibaho. Bitungwa n'imyaka abantu bahinze cyane cyane amasaka, ibigori.

Inyoni ni ikiremwa, ni ikiguruka imana yaremye. Ntibiba ntihinga, ntisarura, ariko Imana yayiremye iyibeshaho.

Umusambi ni inyoni iguruka mu kirere, ikunda kuba ahantu hari amazi kandi ikunda kurya ibyatsi.

Inyamaswa zo mu gasozi zikunda kuba mu binani, ndetse no mu bishyamba ahantu hategereye abantu, zikunda kwihisha abantu kuko zihigwa n'abantu iyo bazibonye bakazirya.

Inuma ni agasimba gafite amababa ,gakunda kuguruka gakunda kurya n'amasaka ,ndetse kibera mu biti.

Igisiga kiraguruka kiba gifite amababa. Ibyatsi bituma duhumeka umwuka mwiza. Kuko dusohora umwuka mubi tukinjiza umwuka mwiza.

Inyoni za gasuku ziba zifite ibara ry'umutuku n'iry'ubururu bivanze. Zikunda kwibera mu biti hejuru, kandi zikunda kuririmba cyane.

Imbwa ni inyamaswa ziryana. Hari imbwa zororerwa mu rugo, izindi zikaba mu kigunda. Imbwa zo mu rugo ziba zaratojwe kubana n'abantu ntabwo ziryana. Inyakigunda yo ishobora kuryana.

Inyoni n inyamaswa zo mu gasozi zifite amababa ziraguruka zikunda kuba mu biti, ubundi zikajya kona imyaka, nti zibiba nti zihinga nti zisarura zitungwa n'imyaka abandi bahinze.

Inyoni ni agasimba imana yaremye gafite amababa, gakunda kurya imyaka y'abaturage, kandi gakunda kwibera mu giti. Hari inyoni z'ubwoko bwinshi zitandukanye.

Igikeri ni igisimba kiba mu mazi kuko n'ubwo gihora mu mazi ntibituma kitagira amaga ku ruhu rwa cyo. Iyo gisohotse mu mazi gikunda kujya ahantu hari utwatsi.

Inyoni ni ibisimba Imana yaremye bikunda gutungwa n'udusimba n'imyaka abandi bahinze. Inyoni ntizihinga, ntizibiba, ariko zibaho.

Inyoni ni udusimba Imana yaremye, dufite amababa turaguruka mu kirere, ndetse turya iby'abantu bahinze, nti tubiba nti dusarura ariko tubaho.

Inuma iri mu bwoko bw'inyoni, inuma ni inyamahoro ntabwo igira amahugu ,ahantu igeze haba hari amahoro inuma ikunda kwirira amasaka.

Nyirabara ni ikigona gikunda kuguruka hejuru y'amazu，gikunda kuba no hafi y'amazi， kirya n'ibyatsi， kigataha mu ishyamba.

Inguge ni inyamaswa iba mu ishyamba, ikunda kurya ibyatsi, iyo yabonye n'inyanya irazirya. Mu ishyamba habamo ibyatsi n'izindi nyamaswa zirya.